Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bicaye mu ishuri ku ntebe zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, hari umwarimu uhagaze iruhande rwabo wambaye ikanzu, ubafasha mu myigire yabo.

Abana batoya bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, bari mu muhanda munini w'igitaka aho bari kujya ku ishuri mu gihe cya mugitondo.

Abana biga mu irerero, hari umwarimu wambaye itaburiye ifite ibara ry'ubururu inyuma, yandikishije amagambo ari mu ibara ry'umweru, abo bana bicaye ku mukeka kandi inyuma yabo hari ikibaho bakoresha biga.

Abana baje mu irerero bambaye imyenda igiye itandukanye bicaye ku muteka kandi bose imbere yabo hagiye hari igikombe cy'igikoma, babahaye kibafasha kugira ubuzima bwiza no kubarinda kugwingira.

Abana biga mu ishuri ry'incuke, bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu juru, kandi bakikije ameza ateretseho ibikoresho bakoresha biga, bibungura ubwenge.

Abana bakiri batoya bicaye ku mukeka ufite ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara, imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu ndetse ateze agatambaro mu mutwe.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'ubururu ndetse na kaki, bari mu kibuga barimo barakina nyuma yuko bahawe umwanya wo kuruhuka bamaze kwiga.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakaje amabati y'umutuku, hari umwana uri kugenda hagati y'icyo kigo kandi hari n'ikigega gifata amazi.

Ikigo kirimo inzu zigiye zitandukanye kandi mu ibaraza hari umugabo uri kugendamo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara ndetse n'ipantaro ya kaki n'ibikomo ku kuboko kw'iburyo.

Uburezi bufite ireme, ni ingenzi. Kuko butuma abana bakura mu mutwe bakiri batoya. Bityo bagatsinda amasomo yabo mu buryo bworoshye, bigateza imbere uburezi bw'igihugu, bityo igihugu kikagera kure.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye ishati y'ubururu juru ndetse n'ijipo ya kake, yambaye urukweto rumwe ubundi arufashe mu ntoki, kandi ahagaze imbere y'umuryango w'ishuri ufunze.

Icyumba kiriho ibikuta byubakishije amatafari ahiye ndetse muri icyo cyumba hari urugi rukinguye imirasire y'izuba iri gukubita yinjira muri icyo cyumba kandi hari n'insinga zigiye zicomekeranyije.

Icyumba cy'ishuri kirimo akabati ndetse n'intebe abanyeshuri bicaraho mu gihe bari kwiga, hari igikuta gisize irangi ry'umukara ndetse n'iry'umuhondo kandi hari n'intebe zifite ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa bambaye impuzankano kandi bari mu kigo cyubakishije amatafari ahiye ndetse amashuri amwe asakaje amabati, andi asakaje amategura, inyuma y'icyo kigo hari ibiti byinshi.

Ibigo by'amashuri bigira ubwiherero abanyeshuri bakoresha mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku, usanga hari ahagenewe abahungu ndetse n'ahagenewe abakobwa, kandi iki kigo inyuma yacyo hari ibiti birebire.

Igikuta gisize irange ry'umweru n'umukara ndetse gishushanyijeho igipope kiri mu mabara y'umukara, umutuku kandi iruhande rw'icyo gikuta hari ibyatsi.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye. Kandi kuri icyo gikuta hometseho igipapuro cy'umuhondo kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa. Akaba akoreshwa n'abana mu gihe bari kwiga uru rurimi.

Icyapa cy'amashuri kigaragaza ishuri rya Gasagara, ndetse hari uruzitiro rw'imiyenzi n'ibiti, kandi icyo kigo cyubakishije amatafari ahiye hamwe n'amabati y'umutuku asakajwe izo nyubako zacyo.

Ikigo cy'amashuri gifite imiryango ibiri, umwe mugari ndetse n'undi mutoya, imbere yacyo hari icyapa kiharanga kiri mu mabara agiye atandukanye, iry'umweru, ubururu kandi hari n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bicaye, imbere yabo hari mudasobwa zifite ibara ry'umweru n'icyatsi kandi icyo cyumba cy'amashuri kiriho urugi rufite ibara ry'icyatsi rukinguye, hariho n'ingufuri.

Abana biga mu mashuri abanza, bari mu ishuri harimo uhetse agahago gafite ibara ry'umweru, ndetse hirya yabo hari urugi n'amadirishya arimo ibirahure, kandi hari n'igikuta kiriho ikibaho bakoresha bigisha, ndetse hari n'intebe bicaraho.

Urugi runini ruteye irangi ry'umweru, umuhondo, ubururu ku ruhande ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi, hirya ku rukuta hari igishushanyo cy'umugore wikoreye agaseke uri kubyina.

Kubaka ibikorwa remezo birimo amashuri ni ingenzi kuko bituma habaho iterambere ryimbitse ry'uburezi bityo igihugu kikagira abanyabwenge benshi ndetse n'abayobozi b'ejo hazaza.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano ndetse bicaye ku ntebe z'umweru, bari mu cyumba bari guhererwamo ibiganiro n'umwarimu uhagaze hagati yabo, ufite mikoro ndetse n'urupapuro.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri bambaye impuzankano, ndetse hari n'abandi bari gukina umukino wa basket, bambaye amasengeri afite ibara ry'umuhondo. Hirya yabo hari ibiti bigiye bitandukanye.

Ubutwari bw'abantu n'ibintu ni ingenzi mu Rwanda kuko bufasha abantu mu kugera mu gace kamwe, bavuye mu kandi mu buryo bworoshye kandi bidatwaye umwanya munini nk'uko byari bimeze hambere.

Abanyeshuri bicaye ndetse n'imbere yabo hari undi uhahagaze, bose bambaye impuzankano y'ishuri. Imbere yabo hari ameza ateretseho bimwe mu bikoresho bakoresha biga kandi hari n'ikibaho bandikaho mu gihe bari gufata amasomo.

Icyapa kiriho ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kandi hari amagambo yanditse mu nyuguti nkuru; harimo irivuga ngo Gatagara ndetse n'irindi rivuga ngo Nyanza.

Icyumba kirimo abanyeshuri benshi bambaye mu mpuzankano y'umweru n'umukara, muri bo hari umugabo uhahagaze ufite impapuro mu ntoki ndetse ari kwitegereza umunyeshuri uhagaze ufite mikoro ari kugira icyo ageza ku bandi.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'ubururu n'umukara, bahetse ibikapu byabo bagiye ku ishuri, bari mu muhanda w'amabuye, imbere yabo hari ipoto rinini ritwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'inzu ifite amabati y'ubururu.

Igikuta kiriho ikibaho gikoreshwa mu gihe abanyeshuri bari kwiga kandi kuri icyo kibaho, hariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yandikishijwe n'ingwa ifite ibara ry'umweru, hejuru kuri icyo gikuta hometse urupapuro.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, muri bo harimo abifubitse imipira y'ishuri ifite ibara ry'ubururu, bicaye mu byatsi biri mbere y'ishuri kandi imbere yabo hari umuntu uhahagaze uri kugira icyo ababwira.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bambaye impuzankano yabo. Barimo barajya ku ishuri. Bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu. Bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Hakurya y'umuhanda, hari amazu.

Abantu benshi bicaye, abandi bahagaze bari inyuma y'ikibuga, bari kureba abakinnyi bari mu kibuga, ndetse muri abo bakinnyi harimo umwe muremure wambaye agakomo ku kuboko kw'iburyo gafite ibara ry'umuhondo, kandi hirya y'icyo kibuga hari ibiti.

Icyumba kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano kandi baricaye, imbere yabo ku meza hagiye hateretse mudasobwa, bakoresha mu gihe bari kwiga ikoranabuhanga ndetse icyo cyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umweru.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, afite mikoro mu kuboko kwe kw'iburyo, ndetse imbere ye hari abanyeshuri benshi bambaye impuzankano ya kaki n'umweru, kandi harimo n'abifubitse imipira y'ishuri, hirya yabo hari inkuta zubakishije amatafari ahiye, ndetse hejuru muri parafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Icyumba k'ishuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano, muri bo harimo abari kwandika ku kibaho, harimo uwambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi kijimye kandi hari n'abandi bicaye ku ntebe.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri bari gukora ibizamini bya leta kandi muri icyo cyumba hahagazemo abagabo bambaye kositime. Muri bo hari uwambaye isaha ku kuboko kw'iburyo.

Igikuta gisize irange, ndetse hariho ikibaho gifite ibara ry'umukara, handikishijeho ingwa y'umweru, iki kibaho abanyeshuri bagikoresha mu gihe bari kwiga amasomo yabo.

Abanyeshuri b'abahungu bambaye impuzankano ifite ibara rya kake ndetse n'umweru, bambaye n'inkweto z'umukara kandi bamwe muri bo bambaye imipira y'ishuri, hagati yabo hari idarapo rihari ririmo ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kandi hari n'ibyatsi.

Ikibuga kiriho abakinnyi bagiye gukina umupira w'amaguru. Kandi muri icyo kibuga hahagaze abagabo babiri harimo ufite icupa ry'amazi mu kuboko ku ibumoso yashyize inyuma. Ndetse abakinnyi bambaye imyenda itandukanye hari abambaye imituku, n'abambaye icyatsi, ndetse n'abandi bambaye ubururu, n'undi wambaye umuhondo.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, yubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'umuntu uhagaze ahantu ku ma esikariye kandi hari n'inzugi zisize irange ry'icyatsi.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo igereretse kabiri, ifite ibirahuri by'umutuku kandi isakaje amabati y'umutuku, imbere hari urugi runini cyane rufite ibara ry'umutuku ndetse n'indabyo.

Ibyumba by'amashuri ye byubatse ku buryo bwiza, bisize irangi ry'umweru kandi hirya hari ahubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'indabo mu busitani.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, gishinze ahantu hari ibyatsi byinshi bitoshye ndetse hari ahari ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda.

Abantu bicaye mu cyumba, bambaye udupfukamunwa tw'amabara agiye atandukanye harimo utw'umukara, umweru ndetse n'ubururu. Kandi imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugeretse ifite amadirishya afunguye ndetse ariho n'amarido y'ubururu. Kandi hirya y'iyo nyubako hari imyenda yanitse ndetse n'ibiti byinshi.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri kizwi nka laboratwari, aha ngaha iyo abantu bagiye kuhajya babanza kwitonda, kubera ko haba hari ibikoresho ndetse n'imiti bishobora kwangiza umuntu mu gihe byakoreshejwe nabi.

Icyumba kirimo intebe z'umukara, hagati muri zo hari ameza afite ibara ry'umukara ndetse na kake kandi hirya hari igikuta gisize irange ry'umweru ndetse n'urugi, hamwe n'akabati.

Umugore uhagaze afite mikoro, hari icyo ari kugeza ku bamukurikiye, inyuma ye hari icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, umweru, umukara ndetse n'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza kandi harimo abantu bari kugenda, bambaye imyenda igiye itandukanye ndetse hubatsemo n'amazu menshi agiye atandukanye kandi hari n'ibiti byiza kandi binini.

Abarezi bari mu cyumba bahuriramo bose bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku. Hagati muri bo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse na telefone, kandi hari umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto ziri mu ibara ry'umukara n'umuhondo, afashe telefone ye mu biganza bye byombi ari kuyirebamo.

Inyubako yubakishije amatafari ye, isakaje amabati y'ubururu, ifite inzugi z'umukara ndetse n'amadirishya y'umukara, imbere yayo hari urukuta rw'amatafari ahiye ndetse n'ubusitani.

Amashuri yubatse ku buryo bugeretse, kandi asakaje amabati y'umutuku, hari n'irange risize rifite ibara rya beje, kandi izo nyubako zombi zikikijwe n'ibiti hamwe n'ubusitani.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri kizwi nka Raboratwari, aha ngaha iyo abantu bagiye kuhajya, babanza kwitonda, kubera ko haba hari ibikoresho ndetse n'imiti bishobora kwangiza, umuntu mu gihe byakoreshejwe nabi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye ku gatebe k'icyuma karekare, inyuma ye hari akabati kanini kariho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi cyangwa se mu kwakira abarwayi, inzu barimo iteye irangi ry'umweru.

Uruhurirane rw'abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore. Bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Imbere yabo hari ameza manini ateretseho mudasobwa ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Icyumba kirimo varize ebyiri ndetse hari n'akabati karimo amavuta agiye atandukanye, kandi hari n'igitanda cyanitseho isume ifite ibara ry'umweru kandi hari n'idirishya ririmo ibirahure, inkuta ziri muri icyo cyumba zisize irangi ry'umweru.

Icyumba kiraramo abanyeshuri gifite amarido afite ibara rya shokora. Kandi muri icyo cyumba hari intebe n'ameza. Ndetse hari uburiri bushasheho ikiringiti gifite ibara ry'ubururu. Hahagazemo n'umuntu.

Icyumba kiraramo abanyeshuri ndetse harimo n'igitanda baryamaho. Mu kabati harimo amavuta y'ubwoko butandukanye, ndetse haragaragaramo aya moviti ari mu gacupa k'umuhondo kariho umupfundikizo w'umutuku.

Ivyumba kiraramo abanyeshuri, hari akabati karimo inkweto zifite amabara atandukanye, harimo iz'umweru, umukara ndetse n'ubururujuru. Kandi hejuru y'ako kabati hateretseho utujerekani tw'umweru turimo amazi. Hirya hari irido.

Icyumba kirimo utubati tugiye dufite amabara atandukanye kandi ku rukuta hubakishije amatafari ahiye. Hejuru muri parafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Inyubako isakaje amabati, isize irangi rya beje, kandi hari ahubakishije amabuye, ndetse amadirishya yayo asize irangi ry'umukara, hirya yayo hari ubusitani hamwe n'ibiti.

Icyumba kirimo amabara agiye atandukanye, ndetse hari n'intebe n'ameza abanyeshuri bakoresha mu gihe bari kwiga, kandi muri icyo cyumba harimo umugore uri gukoropa ndetse hari n'amatara ari kwaka.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isize irange rya bege ndetse hari n'ahasize irange ry'ivu kandi imbere y'iyo nyubako, hari ubusitani buteyemo indabo n'ibyatsi, muri iyo nyubako hahagazemo abantu.

Abanyeshuri bari mu cyumba bigiramo baricaye kandi bose barakurikiye, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye ndetse iryo shuri bigiramo hari ibikuta byubakishije amatafari ahiye, ndetse n'ikindi gikuta gisize irange.